Abana babiri ubona ko bicaye ku ivomero bari kunywa abari gukaraba mu ntoki, mu rwego rwo gusigasira isuku ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana ukiri muto ubona ko ari guterwa urushinge n'umuganga mu rwego rwo gufasha umubiri we kugira ubudahangarwa bwo kurwana n'indwara zigiye zitandukanye higanjemo kanseri n'ubundi burwayi bwibasira abana bakiri bato.

Umukobwa ubona ko yicaye asutamye arimo kuvoma amazi, ubona ko inyuma ye ahafite imyenda, bigaragara ko ari gukora isuku y'imyambaro ye.

Abaturage ubona ko bateraniye mu cyumba kiri kuberamo inama iri kwiga ku ngingo zitandukanye. Ubona ko buri muturage afite ikayi n'ikaramu ari kugenda yandika ibiri kwigirwa muri iyi nama.

Umusaza ubona ko arwaye, hari inzego z'ubuvuzi zirimo gusuzuma uburwayi bwe, ubona ko inzego z'ubuzima zegereye abaturage aho batuye, kubafasha kuvura no gusuzuma indwara zitandukanye.

Abaganga barimo kurebera mu cyuma cyabugenewe uko umutima w'uburwayi uri gutera, mu rwego rwo gukusanya ibimenyetso kugira ngo harebwe niba indwara iri gukura cyangwa se ari kugenda yoroherwa.

Abana benshi batandukanye bemeza ko baje kugomero rusange begerejwe n'ubuyobozi mu rwego rwo kwegereza abaturage amazi meza. Ubona ko bitwaje ibikoresho bisukuye rwose mu rwego rwo kwirinda umwanda, ndetse n'indwara ziterwa no gukoresha amazi adasukuye n'ibikoresho bidasukuye.

Umubyeyi ubona ko yagiye gusuzumisha umwana we uburwayi, ubona ko umuganga ari kwifashisha icyuma cyabugenewe mu gupima ugutera k'umurwayi, ubona ko ari kugerageza gusuzuma umwana.

Abana benshi batandukanye, ubona ko bahuriye ku ivomero rusange bitwaje bimwe mu bikoresho batwaramo amazi kugira ngo bayifashishe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inama ubona ko yahuje abagabo batandukanye bicaye ku meza amwe, buri wese afite ikirahuri ndetse bari kugenda bahanahana ibitekerezo, ku byateza imbere imibereho myiza y'abaturage.

Urugaga rw'abakozi b'ubuzima, ubona ko bari mu cyumba gitangirwamo ubujyanama, ku buryo bushobora gukoreshwa kugira ngo hirindwe gutwara no gutera inda zitateganyijwe, nko gukoresha agakingirizo n'ubundi buryo bwose bwabugenewe mu kuboneza urubyaro.

Abaturage benshi biganjemo urubyiruko ubona ko batera imbere y'inyubako itangirwamo ubuvuzi, kubona ko bagiye guhugurirwa ku buryo bakwiye kuyirinda indwara zitandukanye.

Urugaga rw'abajyanama b'ubuzima bashyizwe hirya no hino mu midugudu, mu rwego rwo kwegereza ubuvuzi abaturage bafite inshingano zo kugira inama abarwayi ndetse bakaba babaha n'ubutabazi bw'ibanze, ubona ko bateraniye imbere y'ikigo nderabuzima, babahaye imyenda igaragaza umurimo bakora.

Umwana ubona ko ari gukorera isuku intoki ze, akaraba mu ntoki n'amazi meza mu rwego rwo kwirinda indwara z'ibyorezo zikwirakwizwa n'umwanda no kudakaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Abaturage ubona ko bazengurutse umwana muto waje kuvoma yitwaje ikijerekani kinini, bigaragara ko uyu mwana akorerwa ihohoterwa, akoreshwa imirimo ivunanye.

Ababyeyi batandukanye bafite abana bakiri bato ubona ko begerewe n'abakozi bakora mu nzego z'ubuzima. Bari gufasha ababyeyi guha abana igikoma mu rwego rwo kongera imibereho myiza ndetse n'imikurire y'abana bakiri bato. Barinda kugwingira kw'abana.

Abaturage ubona ko bahuriye ahantu hamwe, bari guhabwa amahugurwa ku bigendanye no kwita ku mibereho myiza y'abaturage bagamije kwegereza ubuvuzi abaturage, ubona ko abajyanama b'ubuzima babahaye imipira isa. Bari kumwe n'inzego z'ubuzima, ziri kugenda zibafasha kubona amahugurwa kuko bakwiye kwita ku barwayi.

Umwana ukiri muto ubona ko yambaye agapira gatukura uri gukaraba intoki ze mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona ko bahuriye ku kigo nderabuzima bari guhabwa amabwiriza ku ndwara zigiye zitandukanye uko zandura n'uko zirindwa ubona ko hakozwe ubukangurambaga bifashishije indangururamajwi ndetse abantu babyitabiriye ku bwinshi.

Urugaga rw'abaganga, ubona ko ari abantu bakeye bose bakora mu nzego z'ubuzima, mu rwego rwo gusigasira amagara mazima ndetse no gutanga ubukangurambaga ku ndwara zitandukanye hirya no hino, ubona ko bateraniye hamwe bose, bari gufatira hamwe urwibutso.

Abanyeshuri ubona ko bagiye ku bukarabiro bari gukaraba intoki ndetse bari kwifashisha intoki zabo mu kunywa amazi begerejwe ku bigo by'amashuri.

Umugabo ubona ko ari ku mugezi waje kuvoma yitwaje igikoresho cyo gutwaramo amazi, ubona ko yishimiye igikorwa begerejwe cy'amazi meza na leta.

Icyumba ubona ko cyateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo abagabo, abagore, ubona ko bicaye ku meza bari kunywa icyayi ndetse bagenda baganira ku ngingo zigiye zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye mu cyumba, ubona ko wishimye rwose, bari kubyina bya kinyarwanda, ubona ko banezerewe kuba bari kumwe, babanye neza mu mahoro.

Umusaza abona ko ari gusuzumwa uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso, bifashishije bimwe mu gikoresho byabugenewe gupima umuvuduko w'amaraso.

Urujya n'uruza rw'abaturage bateraniye kwa muganga ubona ko bari mu gikorwa cyo gusuzuma imikurire y'abana bakiri bato, mu rwego rwo kumenya niba abana bahabwa indyo yuzuye ndetse bari gukura ku kigero cyagenwe badafite imirire mibi.

Urujya n'uruza rw'abaturage, ubona ko bateraniye mu muhanda biganjemo urubyiruko, bari mu bukangurambaga bwo kurwanya kanseri, bashishikariza abaturage kwisuzumisha ndetse no kwivuza kanseri y'inkondo y'umura, mu rwego rwo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona ko bari mu muhanda, hari umubyeyi uri kugenda ubaha ibinyamakuru bari gusoma, ubona ko abantu bose bashishikariye kuba bahabwa ibyo binyamakuru.

Umunsi wahariwe ibiganiro bishinzwe kuganira ku ngingo y'ishoramari ry'ubuvuzi mu gihugu, ubona ko inama yitabiriwe n'abayobozi b'ingeri zigiye zitandukanye bo mu nzego z'ubuzima.

Abantu batandukanye biganjemo abagore, abagabo, ubona ko bambaye amataburiya agaragaza ko ari abakozi bakora muri serivise z'ubuzima cyangwa z'uburezi, bahagaze ahantu hamwe bari kwifotoza.

Ameza ubona ko ariho umuti ndetse n'inshinge, bigaragara ko ari imiti ikoreshwa mu buvuzi igihe umurwayi yandikiwe urushinge ahabwa n'umuganga.

Abaturage ubona ko bambaye imipira y'ubururu n'ingofero z'umweru. Bose bazamuye amaboko bagafunga igipfunsi bagaragaza ko bagomba kubaho neza nk'uko byanditse ku mipira bambaye.

Urugaga rw'abajyanama b'ubuzima, ubona ko bateraniye ahantu hamwe, bari guhabwa amahugurwa ku buryo barushaho kwita ku barwaye neza, babaha imiti igiye itandukanye ndetse batanga n'ubujyanama ku bantu bafite indwara zigiye zitandukanye.

Abaturage benshi cyane ubona ko baje gutaha ivomero bashyiriweho n'inzego z'ubuyobozi, ubona ko ari igikorwa abantu bishimiye cyane kizabafasha mu iterambere ryabo rya buri munsi, ndetse kikabarinda no kurwara indwara ziterwa n'amazi adasukuye.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona ko bateraniye hamwe, bigaragara ko ari bamwe mu bafite inshingano zo kwita ku buzima bw'abaturage, bazwi nk'abajyanama b'ubuzima ukurikije uko bambaye.

Ababyeyi batatu, ubona ko bicaye ku ntebe, baje kwisuzumisha uburwayi ku mujyanama w'ubuzima. Ubona ko ari igikorwa abaturage bishimira, kuba baregerejwe inzego z'ubuzima, hafi mu midugudu batuye.

Abana ubona ko barimo koga mu mugezi usuma ibintu bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga igihe batari kumwe n'umuntu mukuru, bitewe n'uko abana bashobora guhuriramo n'ingaruka zitandukanye.

Abana batandukanye ubona ko bagiye guhabwa urushinge mu rwego rwo kubungabunga imibereho myiza yabo hirindwa impfu z'abana bakiri bato ziganjemo kanseri y'inkondo y'umura n'izindi ndwara zifata abana bakiri bato igihe batahawe inkingo.

Inama ubona ko yahuye n'ingeri z'abayobozi batandukanye biganjemo inzego z'umutekano, abaturage ubona ko bitabiriye ko bw'iki bikorwa.

Abagabo babiri ubona ko bari kugirana imishikirano, ubona ko bari gusuhuzanya, bari imbere y'imbaga nyamwinshi, ubona ko ari abagabo bari gutsura umubano bambaye neza, umwe muri bo afite inyandiko n'ibitabo mu ntoki.

Abana benshi bateraniye ahantu hamwe, ubona ko bari kuganirirwa ku ngingo zigiye zitandukanye, bari mu mikino mu rwego rwo gutuma abana basabana bakishima binyuze mu mikino ndetse no kwerekana impano bafite.

Abaturage benshi cyane, ubona ko baje kw'ivomero rusange, aho ryubatswe n'inzego z'ubuyobozi, mu rwego rwo kwegereza abaturage amazi meza, ndetse no gukomeza kurwanya indwara ziterwa n'umwanda, nka diale, inzoka, ndetse n'izindi.

Abanyeshuri benshi ubona ko bari mu kigo cy'amashuri bagannye ibigega bashyiriweho by'amazi meza yo kunywa mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'amazi adasukuye. Ubona ko buri wese afite agakombe mu rwego rwo kwirinda indwara z'ibyorezo zikwirakwizwa binyuze mu gukoresha ibikoresho bimwe.

Umwana na muto ubona ko yagiye ku ivomero, ari gukaraba intoki ze n'amazi, yarangiza akanywa amazi yifashishije ibiganza byiwe, mu rwego rwo kwirinda umwanda.

Abantu ubona ko bahagaze imbere y'inyubako ikorerwamo ubuvuzi. Ubona ko bari kumwe n'umuganga, bigaragara ko bahawe ubujyanama ku mibereho ndetse no ku ndwara zigiye zitandukanye.

Gahunda y'ubuvuzi bwegerejwe abaturage, ubona ko inzego z'ubuzima zamanutse zikajya gukorera mu giturage, aho ziri gutanga ubuvuzi bushingiye ku gupima indwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye, bagafasha abaturage babegereye.

Umwana ubona ko yishimye cyane, wambaye agapira gatukura n'agapantaro gasa ubururu, uri ku mugezi afite igikombe mu ntoki ze ari kuvoma amazi.

Umwana muto ubona ko yishimiye igikorwa arimo cyo gukorera ku intoki isuku intoki ze yifashishije amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abana babirikiri bato, ubona ko bari gufanya gukorera isuku intoki zabo, ni ingenzi cyane kwibuka gukora isuku y'intoki mbere y'uko ujya kurya cyangwase nyuma y'uko uvuye mu bwiherero, mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwiza buzira indwara z'umwanda.

Umubyeyi ubona ko ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe mu gukora akazi k'ubuganga, ubona ko umuganga yambaye uturindantoki ari gupima umukecuru, afata amaraso ye kugira ngo amenye indwara ndetse amuhe n'imiti igendanye n'uburwayi bwe.

Umubyeyi ubona ko avuye mu bwiherero rusange ari gukora isuku yifashishije kandagira ukarabe n'isabune, mu rwego rwo kwimakaza isuku no kwirinda indwara zikwirakwizwa n'umwanda.

Umubyeyi ubona ko yajyanye umwana we kumuhesha urukingo mu rwego rwo kumurinda zimwe mu ndwara zikunze kwibasirara abana bakiri bato, ziganjemo nka kanseri y'inkondo y'umura n'izindi.

Umwana ukiri muto ubona ko ari ku ivomero rusange arimo gukaraba mu maso he, yifashishije amazi ari guturuka muri robine ubona ko ari igikorwa yishimye.

Umwana ukiri muto ubona ko ari kuvoma amazi mabi mu bishanga bishobora kuba byamuviramo impanuka yo kuba amazi yamutembana cyangwa se agahuriramo n'udukoko tumwangiriza ubuzima.

Umuyobozi ubona ko ahagaze imbere ku ruhimbi, ari kugeza imbwirwaruhame ku bitabiriye inama yateranije abantu b'inzego zitandukanye, haganirwa ku ngengo y'imari ikwiye gushorwa mu buvuzi.

Umwana w'umukobwa ubona ko ari mu kigo cy'amashuri, ari kuri kandagira ukarabe, akorera isuku intoki ze n'amazi meza n'isabune.

Umubyeyi ubona ko yambaye agapfukamunwa, uteruye umwana ari kumukinisha mu rwego rwo kugirana umubano mwiza n'umwana, umubyeyi akwiye gufata umwanya wo kuganira n'umwana ndetse bagakina.

Umugabo ubona ko yambaye ikositime nziza cyane, ahagararanye n'umuzungukazi, bafite igikapu ubona ko cyakorewe mu rwanda, mu rwego rwo kwamamaza ibikorwa u rwanda rukora.

Abakozi ubona ko bari murugo bambaye imyenda y'amashashi, bipfutse neza haba mu maso ndetse n'intoki ubona ko bari mu kazi ko gukora isuku, birinda kugira impanuka igihe barimo bakora isuku.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bagiye batandukanye biganjemo abana, inzego z'umutekano, ubona ko zahuriye mu kibuga kinini imbere y'urugo, hari idarapo ry'u Rwanda, ubona ko hari imodoka yagenewe gutwara abarwayi.

Abaturage ubona ko bagiye kuvoma amazi ku ivomero begerejwe n'ubuyobozi, mu rwego rwo kwegereza abaturage amazi asa neza kandi afite ubuziranenge, hirindwa indwara ziterwa n'isuku nkeya no gukoresha amazi y'ibishanga.

Aya mashusho nimwe mu nzego zegerejwe abaturage zishinzwe gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku barwayi bafite indwara zitandukanye ubona ko bari mu gikorwa cyo kwishimira ubuvuzi begerejwe ndetse n'ikigo nderabuzima cyabegerejwe cya Mayange.

Abanyeshuri ubona ko abari mu cyumba cyahariwe gukorerwamo inama ubona ko bishimye bose bazamuye amaboko inyuma yabo hari abayobozi bari babasuye.

Abaturage ubona ko bagiye mu rugo mbonezamikurire rw'abana, kuganira ku buryo hakwiye gushyirwa imbaraga mu kwita ku bana babo ndetse n'uburezi bwabo bugahabwa agaciro.

Umubyeyi ubona ko arimo gutanga ibizami abiha abaganga, ubona ko umuganga agiye kumutera urushinge kugira ngo afate amaraso ye ajye kuyapima, abashe gutahura uburwayi afite bityo bamuha imiti igendanye n'indwara.

Umurwayi ubona ko yaryamishijwe ku gatanda k'abarwayi, iruhande rwe hari abaganga bari gukurikirana uko ubuzima bwe bumeze, hari umugore w'umuganga uri gupima umuvuduko w'amaraso yifashishije kimwe mu gikoresho cyabugenewe mu gupima indwara y'umuvuduko w'amaraso.

Abajyanama b'ubuzima ubona ko bahuriye ahantu mu kibuga kinini, bambaye imyenda igaragaza umurimo bakora, ubona ko bishimiye igikorwa barimo cy'ubukangurambaga mu rwego rwo kurwanya indwara n'impfu ziterwa no kubura ubuvuzi bwegereye abaturage.

Abagabo ubona ko bahagaze mu cyumba, buri wese afite agakarito mu ntoki ze. Bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko bakora umwuga w'ubuvuzi, ubona ko bari mu kigo cy'ubuzima.

Gahunda yashyiriweho kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana, hagamijwe kwita ku mikurire y'abana ndetse no guhabwa uburenganzira bwabo mu rwego rwo gusigasira iterambere n'imibereho myiza y'abana.

Umubyeyi ubona ko ateraye mwana ukiri muto, wagiye kumukingiza ku mujyanama w'ubuzima ubona ko bamaze kumutera urushinge, rumufasha gukira indwara ndetse no guha umubiri we ubudahangarwa bwo guhangana n'indwara zitandukanye.

Abaturage baturutse hirya no hino ubona ko bateraniye ahantu hamwe, inzego z'ubuzima zegereye abaturage bari kugenda batanga inkingo ku bana bakiri bato, mu rwego rwo guha ubudahangarwa imibiri y'abana, babarinda kurwara indwara zifata abana bakiri bato ndetse hirindwa n'impfu z'abana bakiri bato.

Urugo rurimo ingeri zitandukanye, twavuga abana, abagabo, ubona ko hari gutangwa ubujyanama bw'uko bakwiye kwita ku bana ku kigendanye n'imirire ndetse no kubakurikirana kugira ngo harindwe ubuzima bw'abana bato.

Icyumba cyateraniyemo abantu biganjemo abagabo, abagore ubona ko bicaye hamwe bari kuganira bahanahana ibitekerezo ku ngingo irebana n'imibereho myiza y'abaturage.

Ibikoresho ubonako bitandukanye biganjemo amatiyo atwara umwuka cyangwa se gaze, byifashishwa mu kuvura abarwayi igihe bakeneye umwuka, bikaba byakwifashishwa mu gutanga umwuka mwiza bahumeka.

Ikigo kinini kandi kiza ubona ko gifite ibyiza byinshi bitandukanye birimo ubwogero rusange. Ubonako ari igikorwa kigikomeje, kiri kubakwa mu rwego rwo gusigasira ubuziranenge bw'ubwogero rusange.

Icyumba kigari ubona ko gikorerwamo gahunda z'ubujyanama ku ndwara zigiye zitandukanye, ubona ko harimo umuganga uri kuganira n'umubyeyi wicaye ku meza, ubona ko ari ahantu hari ibikoresho byinshi bigezweho byifashishwa mu buvuzi.

Umukobwa ubona ko ari gufasha abana bakiri bato kuvoma amazi, mu rwego rwo kwirinda ko abana basesagura amazi bakaba bayakoresha nabi.

Umubyeyi ubona ko ari muri gahunda ze za buri munsi uvuye kuvoma amazi, utwaye indobo ebyiri ku mutwe indi mu ntoki, ubona ko ari umubyeyi ukora cyane.

Ababyeyi batatu bavuga ko bari kuvoma amazi ku ivomero bafasha mugenzi wabo kuvoma amazi mu rwego rwo gutwara amazi asukuye bityo bibafasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Icyumba gisa neza ubona ko kirimo ameza n'intebe hari abantu bicaye, ubona ko imbere yabo buri wese afite ikayi n'ikaramu. Ari wandikamo ingingo z'ingenzi ziri kwigirwa muri iyo nama.

Umubyeyi ubona ko ari kuhagirira umwana we ku ivomero rusange, ubona ko iruhande rwe hari abandi baturage, baje kuvoma amazi yo kujya gukoresha mu ngo zabo.

Umwana uhagaze mu gishanga iruhande rw'ikiziba, ubona ko hakurya ye hari abandi bana basa nabi ariko we wambaye impuzankano ndetse ufite ibirahuri bibiri birimo amazi menshi.

Abana babiri ubona ko baje kuvoma ku ivumero rusange begerejwe na leta mu rwego rwo kugabanya umubare w'abarwayi bafite indwara zikomoka ku gukoresha amazi adasukuye.

Umugabo ubona ko yari hafi ari kugenda bamubonanagaho amafoto wambaye amapingu, inyuma ye hari abaturage beza ndetse n'inzego z'umutekano bigaragara ko yakoze ibyaha.

Jeannette KAGAME umugore wa Perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ubona ko ari kumwe n'abandi bantu batandukanye bari mu bukangurambaga bwo kurwanya indwara zishingiye ku mitekerereze.

Imbaga nyamwinshi yateraniye mu cyumba rusange cy'inama, ubona ko ari umubyeyi uhagaze hagati yabo, uri kubagezaho ikiganiro, ndetse abantu bakurikiye bari kugenda bandika ingingo z'ingenzi, ziri kuganirwa muri iyi nama.

Abana benshi cyane, ubona ko bicaye ahantu hamwe, hagati harimo umubyeyi ukuze, ubona ko ari kugenda abaganiriza mu rwego rwo kwirinda ko, bakicwa n'agahinda cyangwa bagaheranwa n'irungu, bityo bikaba byakangiza imitekerereze y'abana.

Biragaragara ko ari ahantu hamenwa imyanda igiye itandukanye. Ubona ko yambaye ibintu bisa nabi cyane. bigaragaza ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo ubona ko ahagaze imbere y'imbaga, ari kubagezaho imbwirwaruhame yo gushishikariza abantu ku kwita ku buzima bwo mu mutwe, haba mu kazi ndetse n'aho turi hose.

Urujya n'uruza rw'abaturage biganjemo abana, abakecuru, abasaza, ubona ko bari mu gikorwa cyo kwamamaza bose bazamuye amadarapo y'ibendera ry'u Rwanda.

Umuntu ubona ko afite agahinda ukurikije uko agaragara wipfutse mu maso ye bigaragara ko afite ikibazo cyo kwigunga akeneye kuganirizwa kugira ngo yitabwe ku buzima bwe bwo mu mutwe.

Imbaga nyamwinshi yiganjemo urubyiruko, abagore, abagabo, ubona ko bahuriye mu cyumba, bari kuganirizwa kuri zimwe mu ndwara zikunze kwibasira ubwonko mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ndetse n'umubare munini w'abarwayi bafite ibibazo by'imitekerereze.

Abagabo ubona ko bariye neza ari banini rwose, bari kumwe nabadamu babiri, ubona ko bari kwifotoza bafite impamyabumenyi. Ubona ko ari ahantu hatangiwe amahugurwa, bubatse ibishararagati ndetse hari n'imodoka.

Icyumba kinini ubona ko cyateraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu, ubona ko imbere hahagaze abagore babiri, umwe afite mikoro ari kugenda aganira n'uwo bahagararanye batanga ibiganiro kuko bitabiriye iyi nama.

Abana benshi ubona ko bahuriye mu cyumba rusange ubona ko bishimye, buri mwana wese arimo kugaragaza amarangamutima ye, ubona ko bafite imitekerereze myiza nta wigunze ubarimo.

Umugabo wicaranye n'umugore ufite icyuma kifashishwa mu gusakaza amajwi ku mbaga nyamwinshi, ubona ko baje mu bukangurambaga bwo gukangurira abantu kwirinda zimwe mu ndwara zigiye zitandukanye, ziganjemo izishingiye ku mitekerereze.

Inzobere mu by'ubuganga, biganjemo abagore, abagabo, ubona ko ari abantu basa neza cyane, batanga ubujyanama ku mibereho y'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse bakaba bafasha n'abafite ihungabana, kongera gusubira ku murongo bagakira; ubwonko bwabo bugakora neza.

Umugore ubona ko yicaye kumusambi uzinze ubona ko aziritse kugiti n'umunyururu kukaguru ke wambaye kamambiri.

Abaturage ubona ko bari muri gahunda yo kubungabunga ibidukikije batera ibiti hirya no hino, mu rwego rwo gusigasira ibimera.

Umugabo ubona ko yicaye ahantu hasi hasa nabi, wambaye imyenda isa nabi yacikaguritse, ubona ko adaheruka gukaraba rwose, afite amashashi abiri mu ntoki arimo amazi.

Abana bakiri bato ubona ko bari ahantu habonyine, ubona ko ari abana bambaye nabi cyane, bigaragara ko nta bantu babitaho, bababa hafi kugira ngo babafashe gukurikirana ubuzima bwabo.

Umugabo ubona ko yicaye wambaye ingofero ndetse n'isaha ku kuboko kwe, ubona ko ari gutekereza cyane afite ibintu byinshi ari gutekereza mu mutwe we, byatumye yigunga.

icyumba kinini ubona ko kirimo abantu b'ingeri zitandukanye bitabiriye inama, ubona ko bicaye bari kuganirizwa ku ngingo z'ubuzima.

Umugabo ubona ko yicaye ku bitenge mu cyumba ubona ko gisa nkaho gishaje, uhambiriye amaguru, wifashe ku gahanga, bigaragaza ko afite ikibazo cy'imitekerereze akwiye kwitabwaho n'inzego z'ubuzima.

Umugore ubona ko yicaye ahantu yigunze afite ibibazo bigendanye n'imitekerereze akeneye umuntu baganira, mu rwego rwo gukomeza gusigasira ubuzima bwe bwiza bwo mu mutwe.

Umubyeyi ubona ko ateye umwana, barimo gukina bishimye. Ni ngombwa ko umubyeyi afata umwanya akaganira n'umwana we, kuko byongera umubano ndetse kandi n'urukundo hagati y'umwana n'umubyeyi.

Inama ubona ko ihuriyemo urubyiruko rutandukanye, ubona ko bari kuganirizwa ku buryo ki bakwiye kwita ku buzima bwabo, ubwo mu mutwe birinda gutekereza ibintu bishobora kubangamira ubwonko ndetse bakirinda guharabikana, mu rwego rwo gusigasira imitekerereze yabo myiza.

Umusaza ubona ko yakutse amenyo, ufite imisatsi myinshi cyane ubona ko yakenyeye wambaye ishati y'ubururu bigaragara ko afite bimwe mu bibazo bishingiye ku mitekerereze, akwiye kwitabwaho n'inzego z'ubuzima.

Isange One Stop Center ikigo cy'ubutabazi cyashyizweho na Leta y'u Rwanda, gishinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze ku bantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, babafasha kurwanya ibyago by'indwara bishobora guterwa no gufatwa ku ngufu nko guterwa inda zitateganyijwe n'izindi ndwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Umukecuru ubona ko yipfutse igitambaro cy'umweru, wambaye amaherena n'umukufi mu ijosi, ubona ko afite agahinda gakabije ashaka kurira, urabona ko afite ibibazo by'agahinda gakabije cyane.

Umubyeyi ubona ko afite agahinda gakabije, wifashe mu mutwe, ubona ko hari umuntu iruhande rwe uri kugerageza kumuganiriza akamuha ubujyanama, mu rwego rwo kumurinda guheranwa n'agahinda, ndetse ubuzima bwe bwo mu mutwe bukaba bwahangirikira.

Ibaruramari ry'impfu z'abantu biyahura mu Rwanda uko rigenda rigaragaza guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri, umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu, mu mwaka wa bibiri na cumi, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani, bagenda bagaragaza uko impfu z'abantu biyahura zigenda zigabanyuka.

Umugore ubona ko avuye mu mirimo y'ubuhinzi wikoreye igitebo kirimo ibyatsi bivuye mu murima yahinze, ubona ko ari imbere y'urugo rufite ishayote mu rwego rwo kubungabunga imboga mu buzima bwa buri munsi.

Umwana ubona ko yicaye mu ishuri, imbere ye hari imeza ubona ko ari kurya biswi, uri guseka ubona ko yishimye, afite ubuzima bwiza.

Abaturage benshi, ubona ko bahuriye mu cyumba cy'inama rusange, ubona ko buri wese ateze amatwi ibyo bari kuganirizwa, ku kirebana n'ingingo yo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umurwayi ubona ko ari gukorerwa gahunda yo gukurwa amenyo n'umuganga, ubona ko bamaze kumukura iryinyo, bifashishije icyuma cyabugenewe cyo gukura amenyo.

Umugabo ubona ko akorera isuku amenyo ye yifashishije agakoresho kabugenewe mu gukura imyanda iba iri hagati y'iryinyo n'irindi, kugira ngo asigasire ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umukobwa n'umuhungu ubona ko bari kwireba mu kirahuri, bari gukorera isuku mu kanwa bifashishije udukoresho twabugenewe mu gusukura amenyo, bavana imyanda iba yaheze hagati y'amenyo mu rwego rwo kwirinda indwara zo mu kanwa.

Umugabo ubona ko ari mu gikorwa cyo gukorera isuku mu kanwa, mu rwego zo kwirinda indwara zo mu kanwa ziterwa no kudakorera isuku amenyo, twifashishije imiti yabugenewe n'ibindi bikoresho byabugenewe mu gukorera isuku akanwa.

Umurwayi ubona ko ari kwitabwaho n'abaganga basana amenyo ye yangiritse bifashishije ibikoresho byabugenewe mu gusana amenyo y'umurwayi.

Umukobwa mwiza ubona ko ari guseka afite amenyo meza, bigaragara ko akorera isuku amenyo ye, yifatishije umuti wabugenewe mu gusukura amenyo.

Icyumba cyiza ubona ko kirimo ibikoresho by'ibanze bigezweho byifashishwa mu kuvura zimwe mu ndwara ziganjemo izo mu kanwa, imashini zifashishwa mu gusana amenyo yagiritse cyangwa se kuyakura.

Umwana ukiri muto ubona ko ari gukorerwa igikorwa cyo kuba yasuzumwa amenyo, ndetse akaba yakorerwa gahunda yo kuyasimbuza mu rwego rwo kwita ku buzima bwe bwiza bwo mu kanwa.

Icyumba kiza kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara yiganjemo izibasira mu kanwa twavuga nko gusana amenyo kuyakura ndetse n'ibindi.

Umuganga ubona ko afite ibikoresho byabugenewe mu gukura umurwayi amenyo, ubona ko yambaye uturindantoki mu rwego rwo kwirinda impanuka zishobora kubera mu gikorwa cyo kuvura umurwayi, akaba yakanduriramo indwara.

Umugabo ubona ko arimo gukorera isuku mu kanwa, yifashishije igikoresho cyabugenewe mu gukura imyanda iba yaheze hagati y'amenyo, mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Ababyeyi babiri ubona ko bari kugenda basinya ku mpapuro, bigaragaza ko bishimiye amasezerano bari kugenda bahabwa, ubona ko ari ibintu bishimye cyane.

Umuganga ubona ko ari kwita ku murwayi asuzuma uko amenyo ye yangiritse kugira ngo abashe kumuha ubuvuzi akurikije uko uburwayi bwe bw'amenyo buhagaze.

Umuganga ubona ko afite imwe mu gishushanyo cyifashishwa ku kwiga uko amenyo y'umuntu ateye, bityo bikaba bimufasha umuganga kuba yafasha umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo.

Icyumba ubona ko gisa neza, kirimo ibikoresho byifashishwa igihe umuganga agiye gusana amenyo y'umurwayi. Ukurikije imashini n'ibindi bikoresho byose, biragaragara ko ari icyumba gikorerwamo serivise yo kuvura indwara zo mu kanwa.

Umukobwa ubona ko afite isuku yo mu kanwa, uri gukorera isuku amenyo yifashishije agakoresho kabugenewe gafasha gukura imyanda iba yaheze hagati y'iryinyo n'irindi, mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Umugabo abona ko yambaye imyenda igaragaza ko akora umwuga w'ubuganga wicaye mu cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo, yiganjemo igitanda cyabugenewe kiryamwaho n'umurwayi ugiye gukurwa amenyo ndetse n'imashini zifashishwa mu gukura amenyo cyangwa se kuyaka.

Umwana ufite uburwayi bwo mu kanwa, ubona ko ari gusuzumwa n'umuganga kugira ngo arebe uko amenyo ye yangiritse, bityo abashe kuba yamuha ubufasha bw'ibanze.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kubaga umuntu cyangwa se gukura amenyo byiganjemo inshinge, imikasi ndetse n'ibindi byuma byose byabugenewe mu gukura amenyo.

Umuhungu ubona ko ari ku gatanda kagenewe abarwayi, ubona ko ari kwereka umuganga ikibazo cy'uburwayi bwe bw'amenyo, kugira ngo abashe kuba yakorerwa insimburangingo.

Umugabo ubona ko yagiye kwa muganga kwivuza indwara y'amenyo, ubona ko muganga ari kugerageza kumuha insimburangingo z'amenyo.

Abaganga babiri ubona ko umwe w'umugabo yambaye uturindantoki ari gusuzuma umwana uburyo ki amenyo ye yangiritse mu rwego rwo kumuha ubutabazi.

Abana ubona ko bari mu bukangurambaga bwo gukorera isuku mu kanwa, bifashishije imiti yabugenewe mu gukora isuku, mu rwego rwo kwirinda indwara zo mu kanwa, ubona ko buri wese yahawe umuti wifashishwa mu gusukura mu kanwa.

Umugabo ukeye ubona ko afite isuku akeye, ari guseka cyane, bigaragara ko afite isuku y'amenyo ye, asukura amenyo ye yifashishije imiti yabugenewe mu rwego rwo kwirinda indwara zo mu kanwa ziterwa n'umwanda.

Umugabo ubona ko, yambaye hejuru, agapira k'umweru, uri kwireba mu kirahuri, ufite agakoresho kifashishwa mu gusukura amenyo, yibanda ku gukura imyanda iba yaheze hagati y'iryinyo n'irindi, mu rwego rwo kwirinda, kwangirika kw'amenyo bitewe n'isuku idahagije.

Umuganga ubona ko ari gukora ubushakashatsi ku ndwara zigiye zitandukanye ubona ko imbere ye afite ikarita igiye iriho uburyo indwara igenda ikura, ikaza kuvamo ikintu gikomeye gishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu.

Umwana muto ubona ko ari kwitabwaho n'inzego z'ubuzima, bamufasha gusana amenyo ye yangiritse bifashishije bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gusana amenyo.

Agakoresho kifashishwa mu gupima umurwayi umuriro afite mu rwego rwo kugira ngo asuzumwe niba umubiri we uri gukora ku kigero byagenewe umuntu udafite indwara.

Urujya n'uruza rw'abaturage ubona ko bitabiriye umunsi Mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara zo mu kanwa, aho begerejwe inzobere z'abaganga mu kuvura indwara zo mu kanwa, abafite uburwayi bw'amenyo bagafashwa gukurikiranwa bakitabwaho bakamera neza.

Abagabo babiri ubona ko bari kugenda mu kayira bafatanye ku rutugu bari kugenda baganira rwose ubona ko bishimye.

Umubyeyi ntubona ko ari muri siporo ngororamubiri wishimye cyane rwose, ufitemwe mu dukoresho twabigenewe mu guterura mu rwego rwo gukomeza imikaya ndetse n'ingingo z'amagufa.

Abakecuru babiri ubona ko bambaye bya kinyarwanda abafite inkoni ubona ko bagiye mu bukwe, inyuma yabo hari abantu bagiye babakurikiye ubona ko basokoje, bakenyeye, baberewe.

Umuryango ubona ko wishimye uri gufata amafunguro yujuje intungamubiri, ni ukuvuga ibitera imbaraga, ibirinda indwara imboga ndetse n'imbuto.

Ababyeyi babiri ubona ko bari muri siporo ngororamubiri bishimye bari guseka bararambuye amaboko yabo, ni ingenzi cyane gukora siporo ngororamubiri kuko birinda umubiri w'umuntu gucika intege.

Umuryango ugizwe n'umusaza n'umukecuru ubona ko bicaye bari kureba amakuru agiye atandukanye kuri telefone, ubona ko ku meza hateretse ikirahuri kirimo amazi n'imiti, umukecuru afite urwandiko rugaragaza uko bakwiye gufata imiti neza.

Abagabo babiri ubona ko bari mu cyumba, umwe yicaye ku meza, ubonabko bafite umugozi bari gukurura kugirango ngo barebe urusha undi imbaraga.

Umubyeyi uri muri siporo ngororamubiri wicaye ahirengeye, ubona ko yarambuye amaguru ye n'amaboko mu rwego rwo kunanura ingingo ze no kwirinda indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije.

Umusaza ubona ko ari muri siporo ngororamuniri afite ibyuma byabugenewe mu gufasha umuntu gukora siporo ubona ko ateruye mu kaboko ke ibyuma ndetse yarambuye amaboko mu rwego rwo kureka ingingo ze igakora neza.

Umubyeyi mubona ko ari gufasha umusaza guhaguruka ku buriri kugira ngo atambuke gake gake bifasha ingingo z'umuntu gukora neza igihe afite uburwayi.

Abaturage ubona ko bari mu mirimo igiye itandukanye, bicaye ahantu mu gisambu rwose bari kuganira hari umubyeyi uri kuboha agatebo yifashishije ibyatsi ndetse hari n'umuzungu wabasuye uteruye umwana, bari kugenda baganira ingingo zigiye zitandukanye.

Umusaza ukuze ubona ko ari mu za bukuru uri gufashwa n'umugore gutambuka, kugira ngo abashe gukora siporo ngororamubiri kugira ngo ingingo ze zitamugara burundu.

Abasaza bakuru ubona ko bakenye rwose bya Kinyarwanda, bambaye ingofero bari imbere y'imbaga nyamwinshi, bigaragara ko baje mu misango y'ubukwe bwa Kinyarwanda.

Ababyeyi babiri ubona ko umusaza arigufata imiti, ubona ko imbere ye hari ikirahuri kirimo amazi, ndetse n'umukecuru uri kugerageza kumusobanurira uko akwiye gufata imiti nk'uko byagenwe.

Umusaza ubona ko wicaye, yambaye agapfukamunwa, imbere ye hari umuganga wambaye ibikoresho bimufasha kumva gutera k'umutima w'umurwayi kugira ngo abashe kurushaho gusuzuma uburwayi bw'umuntu.

Ababyeyi ubona ko bari muri siporo rusange, ubona ko basa neza cyane ndetse bafite imbaraga ubarebye, bari kugenda mu muhanda iruhande rwabo hari ubusitani bwiza cyane.

Umusaza ubona ko yicaye mu ntebe zegamirwa ufite inkoni ye mu kaboko ubona ko ari kuganira n'umuganga ufite ikarita y'akazi ubona ko bari kuganira bishimye mu rwego rwo kugirana imibanire myiza.

Umukecuru wicaye ubona ko imbere ye hari ikirahuri kirimo amazi, hari umuganga uhagaze iruhande rwe, uri kumufasha gufata imiti uko bikwiye kugira ngo akire vuba.

Umusaza ufite ikibazo cy'ingingo ubona ko yicaye mu kagare k'abafite ubumuga bw'ingigo, ubona ko ari kwitabwaho n'umugore uri kumusunika atembera mu busitani.

Umusaza n'umukecuru ubona ko bicaye mu cyumba, imbere yabo hari imiti ubona ko bari kuganira ku buryo bakwiye gukoresha neza imiti hagendewe ku nama bahawe n'umuganga.

Ababyeyi batatu ubona ko bicaye mu nzu ikorerwamo ibikorwa byo kuboha, ubona ko umwe muri bo afite telefone ari kugenda abereka amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga.

Umusaza ubona ko afite ikibazo cy'ingingo ari mu kagare cyagenewe guhabwa abantu bafite ingingo z'amaguru, ubona ko ari gufashwa n'umuganga gutembera mu rwego rwo kunanura zimwe mu ngingo.

Umukecuru n'umusaza ubona ko bishimye rwose, babanye neza mu mahoro, nta makimbirane bafite, bafatanye ku rutugu ubona ko umusaza ari gusoma umukecuru, rwose banezerewe.

Umusaza ubona ko yishimiye igikorwa ari gukorerwa cyo gusuzumwa indwara n'umuganga, ubona ko ari ibintu byiza ko umuntu wese akwiye kugana inzego z'ubuvuzi igihe yumva muri we atameze neza.

Umugabo ubona ko yicaye mu cyumba atuje, imbere ye hari ikirahuri cy'amazi ndetse afite n'igitabo ari kugenda asoma mu rwego rwo kuruhura mu bwonko bwe. Ni ngombwa ko tugira umwanya wo gusoma kuko biruhura ndetse bikadufasha no kwiyungura ubumenyi.

Ababyeyi babiri ubona ko bari muri siporo rusange. Ubona ko bishimiye igikorwa barimo, ni byiza gukora siporo ngororamubiri kuko bigabanya ibyago byinshi byo kurwara indwara zitandukanye, ziganjemo umubyibuho ukabije, kumugara kw'ingingo n'izindi.

Umusaza ubona ko yicaranye n'umukecuru we bari mu rugo. Umukecuru uri mu kazi ke ka buri munsi, imbere ye hari imashini umusaza ari kugerageza kumwereka imiti yahawe na muganga ndetse agerageza kuyifata mu rwego rwo kugabanya ubukana bw'indwara.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu bigaragara ko ari mu misango y'ubukwe, bari kugenda bakirwa bahabwa icyo kurya n'icyo kunywa bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona ko bateraniye mu gikorwa byo gutanga ubufasha ku babana n'ubumuga bw'ingingo, harimo imbago, amagare yabugenewe, n'udukoresho twifashisha mu gutambuka, tuwareti z'ababana n'ubumuga, n'ibindi.

Umubyeyi ubona ko yicaye arimo kwitabwaho n'umujyanama w'ubuzima, ari ku mupima uko amaraso ye agenda mu mubiri, mu rwego rwo gukurikiranira hafi ubuzima bwe kugira ngo yitabweho.

Umurwayi ubona ko aryamye ku gatanda k'abarwayi, iruhande rwe hari abaganga bahagaze bari gukurikirana ikibazo cy'uburwayi bwe, ku rundi ruhande hariho imashini ziri kwifashishwa mu kwita ku buzima bwe.

Umusaza ubona ko yambaye amataratara amufasha kureba neza, wicaye imbere ye ku meza hari ikayi ari kwandika ibintu bigiye gutandukanye.

Umusaza ubona ko afite uburwayi bw'ingingo ubona ko ari gufashwa n'umukobwa ku gutambuka bifashishije ibyuma bigiye bimuri iruhande, mu rwego rwo gukomeza gukoresha ingingo ze.

Umubyeyi ubona ko ari mu cyumba giteguye neza warambuye tapi, akarambura amaguru ye n'amaboko ari gukora siporo ngororamubiri mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa no kudakora siporo ihagije mu mubiri.

Umugabo ukuze ubona ko yagiye kwa muganga gushaka ubuvuzi, ubona ko imbere ye hari umuganga uri ku kumupima umuvuduko w'amaraso, yifashishije imashini yabugenewe gupima indwara y'umuvuduko w'amaraso.

Umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana, ubona ko bari kumwe n'umusaza n'umukecuru bishimye cyane, ababyeyi bahetse abana babo bose bari guseka, bari bari gufata ifoto.

Ababyeyi rwose ubona ko bakuze ubona ko bicaye ahantu hatuje, bigaragara ko baje mu mihango y'ubukwe bose bishimiye ubukwe bajemo.

Umusaza abona ko yicaye ari kwereka umugore ibintu bigiye biri muri terefone, ubona ko ku meza hateretse akaradiyo kari kubafasha kumva neza ibiri kuvugwa.

Abaturage ubona ko bari muriporo ngororamubiri, ubona ko imbere yabo hari umukecuru, uteruye bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri bakomeza imikaya ndetse ubona ko yishimiye igikorwa ari gukora.

Umukecuru ubona ko ari mu cyumba gisa neza cyane, ubona ko afite ibyo kurya byujuje intungamubiri, birimo imboga, ibirinda indwara, ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga, mu rwego rwo gusigasira imirire myiza, ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi wicaye mu cyumba cy'uruganiriro ubona ko ari kugerageza gukina n'umwana we mu rwego rwo kugira imibanire myiza n'umwana we ndetse no kugirana urukundo hagati y'umubyeyi n'umwana. Ni ngombwa ko ababyeyi bose bagira umwanya wo gukina n'abana babo kuko bibafasha mu kunguka ubumenyi butandukanye.

Abaturage ubona ko bahuriye ku kigo nderabuzima bicaye ku rubaraza bategereje umujyanama kugira ngo aze abahe ubujyanama ku kigendanye n'ibibazo bikunze kwibasira abaturage.

Kwigisha imibonano mpuzabitsina, ni kimwe muri gahunda zashyizwe mu burezi rusange bw'abana mu Rwanda, hagamijwe kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse n'inda ziterwa abangavu.

Gahunda yo kuringaniza urubyaro, imwe muri gahunda yashyizweho na Leta mu rwego rwo kwirinda kubyara abana umuntu atazashobora kurera, bityo bikaba bidindiza iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abana.

Bumwe mu buryo bwashyizweho ku kwita ku barwayi ba SIDA, ndetse n'uburyo abantu bakwiye kwirinda indwara za SIDA harimo nko gukoresha udukingirizo, kwifata ndetse no kugana inzego z'ubuzima igihe cyose wumva utizeye ubuzima bwawe.

Ikirangantego ry'Igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'agaseke, ishaka ndetse n'ingabo. Ubona ko hasi hariho amagambo agaragaza ko ari ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima.

Umugore ubona ko ahagaze imbere y'imbaga afite indangururamajwi ndetse na mikoro ari kwifashisha mu kuganiriza abitabiriye ibiganiro.

Tariki cumi n'umunani kugeza makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cumi, mu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na bibiri, hatangijwe gahunda, hashyirwaho n'icyumweru cyo gukwirakwiza ubuvuzi hirya no hino mu bihugu byose byo ku Isi.

Icyumba ubona ko cyahuriyemo urubyiruko, ubona ko bari kuganirizwa ku ngingo zigiye zitandukanye mu rwego rwo gutanga ubujyanama ku rubyiruko rw'uko bakwiye kwirinda zimwe mu ngaruka ziterwa no gukora imibonano mpuzabitsina.

Umuhanzi Nyarwanda wamenyekanye nka Mico the best, ubona ko ahagararanye n'umugore bafite icyapa cya Minisiteri y'Ubuzima gikangurira abantu kwisuzumisha indwara y'igituntu, kubera ko kivurwa kigakira.

Bibiri na cumi n'icyenda nibwo icyorezo cya Covid cyateye aho na Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gutanga inkingo kuri buri muturage mu rwego rwo guhangana n'ikwirakwira, ndetse no kugabanya umubare w'abaturage bicwa n'icyorezo.

Umugabo ubona ko aryamye hasi iruhande rwe hari inzego z'ubuvuzi zirimo kugerageza kumwitaho ubona ko hari abandi bagabo bambaye amajire bigaragaza ko ari abakoranabushake bari kugerageza gusigasira no kubungabunga ubuzima bwe.

Umubyeyi ubona ko ari gufasha umwana we gufata amafunguro akubiyemo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, inyuma ye hari abanyeshuri ubona ko ari kugerageza kwita ku mibereho myiza y'umwana we.

Bimwe mu bintu bigira uruhare mu gutuma habaho ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika y'amajyepfo, mu gukwirakwiza uburezi ku kigendanye no guhabwa imfashanyo zirimo ibitabo, n'ibindi bikoresho byose byifashishwa mu burezi.

Ibimenyetso by'ibiganza bibiri, biri gusuhuzanya ubona ko bari gushimangira ko abaturage b'u Rwanda bakwiye ndetse bagomba kugira ubuzima bwiza, bushingiye ku kwegerezwa ubuvuzi ndetse n'imiti.

Abakobwa beza, ubona ko bari mu cyumba abafite amakadiri barimo bagaragaza uko umwana w'umukobwa akwiye kugirwa inama ku kigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, ubona ko bose bambaye imipira isa hejuru.

Abaturage benshi ubona ko bateraniye mu gikorwa rusange cyo kwipimisha, zimwe mu ndwara ziganjemo umuvuduko w'amaraso; ubona ko bitabiriye ku bwinshi.

Umugore n'umugabo ubona ko bambaye mu ijosi amakarita agaragaza ko bakora akazi, ubona ko bahagaze imbere abarimo abarifotoza.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya diyabete iterwa n'isukari nyinshi mu mubiri ndetse no kudakora siporo, ntibihagije kugira ngo umuntu abashe kuba yabira ibyuya isukari isohoke mu mubiri.

Ubukangurambaga bugamije gushishikariza abaturage kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende bafata intego uko bikwiye ndetse birinda no kurya inyamaswa zipfishije.

Abaturage ubona ko bagiye gushaka serivisi z'ubuzima. Bari kugenda basuzumwa zimwe mu ndwara, hafatwa amaraso yabo ndetse n'ibindi bizamini kugira ngo hagaragazwe uburwayi bafite.

Abaturage ubona ko bari muri gahunda yo gukora isuku, hibandwa ku gukusanya imyanda yose, hakurikijwe ubwoko bw'imyanda, bavangura imyanda ibora n'itabora mu rwego rwo kwimakaza isuku.

Icyumba kinini ubona ko kirwariyemo indembe ziryamye, ubona ko iruhande rwabo hari abarwaza ndetse n'abaganga bari gukurikirana umunsi ku wundi ubuzima bwabo.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru ubona ko abaturage bakigannye bagiye kwivuza indwara zigiye zitandukanye mu rwego rwo gukomeza gusigasira ubuzima.

Inzu ubona ko ikorerwamo gahunda zo kwita ku babyeyi batwite igihe baje kwisuzumisha kugira ngo barebe uko ubuzima bw'umwana buhagaze ndetse n'igihe umubyeyi ageze amezi ikenda akeneye kubyara, imufasha kwita ku buzima bwe ndetse n'ubw'umwana atwite.

Zimwe mu nzu zikorerwamo gahunda z'ubuvuzi, z'abantu bikorera ku giti cyabo, usanga hirya no hino mu mijyi, mu dusantire, ubona ko ari imwe muri gahunda nziza, yaje igamije kurwanya impfu z'abantu, bapfa bitewe no kubura imiti, hakiri kare.

Icyumba kirimo ibikoresho byiganjemo utubati, ubukarabiro ndetse n'agatanda kagenewe umurwayi igihe umuganga ari kumukorera isuzuma ndetse ari kugerageza kumufasha mu burwayi.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona ko biganjemo abagore, abagabo, n'abandi ubona ko bambaye imipira isa, bigaragara ko ari bamwe mu baje gushaka zimwe muri gahunda z'ubuzima, zishingiye ku guhabwa imiti igendanye n'indwara bafite.

Icyumba kiza birimo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo utubati, igitanda n'izindi mashini zifashishwa igihe umuganga ari kwita ku murwayi.

Icyumba ubona ko gitekanye kandi gifite isuku ihagije, kirimo ibikoresho byifashishwa mu gikorwa cy'ubuvuzi, ubona ko hari imashini yagenewe gusuzuma uko umurwayi ufite ikibazo cy'ingingo zangiritse, abasha kuba yashyigirwamo bityo imashini zikerekana uko ingingo ze zangiritse.

Icyumba ubona ko gifite umutekano uhagije ndetse n'isuku, cyagenewe kubikwamo amaraso hagendewe ku bwoko bw'amaraso, mu rwego rwo kwita ku buziranenge bw'amaraso aba azaterwa umurwayi, ndetse no kwirinda kuba bavanga ubwoko bw'amaraso, bityo bikaba byatera impanuka igihe umurwayi atewe amaraso adahuye n'ubwoko bwe.

Icyumba cyiza kinini, ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, higanjemo amatara yabugenewe, afasha umuganga kureba neza, igihe agiye kubaga umurwayi cyangwa se agiye kumwitaho mu bundi buryo; mashini zifashishwa n'umuganga igihe ari kwita ku murwayi runaka, ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze byifashishwa mu buvuzi.

Abarwayi bagiye batandukanye, ubona ko bari mu cyumba cyagenewe gusuzuma abarwayi, ubona ko hari abaganga bari kugerageza kwita ku barwayi bari kubagana, urabona ko hari umukecuru uri mu kagare k'ababana n'ubumuga bw'amaguru, ubona ko ari gufashwa n'umuganga kuba yamupima.

Icyumba ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo televiziyo, igitanda, intebe, ameza n'imashini ubona ko ari icyumba gikorerwamo serivisi z'ubuzima, hariho amashusho y'ibintu bigiye bitandukanye.

Inyubako nini cyane ubonako isa neza ifite ubusitani buboneye yagenewe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzima ku barwayi bose bafite uburwayi bashobora koherezwa muri ibi bitaro bakaba bakwitabwaho n'inzobere z'abaganga.

Icyicaro gikuru cy'Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Gutanga Amaraso mu Rwanda, ubona ko cyubatse neza, gisa neza cyane ndetse imbere hari n'imodoka zigiye ziparitse zikoreshwa n'abakozi bakora muri iki kigo cy'Igihugu ishinzwe gukusanya amaraso.

Icyumba kirimo ibikoresho bigezweho byifakishwa mu gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, ubona ko ari kinini kisanzuye gishobora kuba cyakakira abarwayi benshi.

Ibitaro ubona ko bitangirwamo gahunda y'ubuvuzi bw'amaso, ubona ko ari ibitaro binini kandi bisa neza cyane bishobora kuba byafasha umurwayi wese ufite ikibazo n'indwara y'amaso.

Icyumba ubona ko cyihariye, cyabugenewe, usanga hirya no hino mu bitaro kiba kirimo ibikoresho byifashishwa n'abarwayi bafite ibibazo by'inkingo, bakora siporo mu rwego rwo kunanura ingingo zabo zamugaye.

Icyumba ubona ko cyagenewe gukorerwamo siporo ngororamubiri, mu rwego rwo gutuma abantu bagira ubuzima bwiza ndetse babaho bishimye binyuze mu gukora siporo ngororamubiri zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo zitandukanye.

Abagore ubona ko bambaye imyenda isa hejuru bigaragara ko bakora mu nzego z'ubuzima, bahagaze imbere mu busitani bw'ikigo nderabuzima bari kwifotoza.

Icyumba ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo nk'imashini zabugenewe mu gukora siporo bitewe n'ubushobozi bw'umubiri w'umuntu ndetse na siporo akunda bityo bifasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Umurwayi ubona ko arwariye kwa muganga ari kugenda asuzumwa n'umuganga kugira ngo akurikirane umunsi ku w'undi uko uburwayi bwe bugenda bworoha.

Inyubako nini ubona ko imbere yayo hari abantu ndetse haparitse n'imodoka, ifite ubusitani, ubona ko hari abantu benshi baje gushaka ubuvuzi.

Abaganga ubona ko bari mu cyumba kirimo abarwayi, ndetse bambaye neza, bigaragara ko, ari icyumba cyagenewe kubagirwamo, abarwayi.

Icyumba ubona ko kirimo utubati n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, ubona ko ari icyumba cyagenewe kwakirwa abarwayi.

Icyumba ubona ko gisa neza cyane, giteguye, kirimo intebe ziteye neza ubona ko zigiye ziteye mu byiciro ndetse imbere hari taburo nini, iriho ibishushanyo, ubona ko ari ahantu hasa neza cyane.

Ikigo ubona ko ari kinini cyane kirimo amazu agiye atandukanye, gifite n'ubusitani bugiye butandukanye, ubona ko hari abantu bagiye bicara muri ubwo busitani, abandi bakaba bicaye imbere y'umuryango bakeneye kwitabwaho n'inzego z'ubuzima.

Umuryango ubona ko wagiye kwisuzumisha kwa muganga, ubona ko umugabo ari gufatwa ibizamini hifashishijwe imashini zabugenewe mu gupima indwara cyane cyane iz'umuvuduko w'amaraso, ubona ko hari umuganga uri kwandika ibiri kuva mu bisubizo.

Icyumba ubona ko ari ububiko bubikwamo amaraso hashingiwe ku bwoko bwayo, bityo bikaba bifasha abaganga gutandukanya ubwoko bw'amaraso, ndetse bikaba byabarinda gutera umurwayi amaraso adahuje n'ubwoko bwe.

Icyumba ubona ko gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zigiye zitandukanye, ubona ko kirimo imashini nyinshi zitandukanye zose zifashishwa mu bushakashatsi ku ndwara ndetse n'ubuziranenge bw'imiti.

Umurwayi ubona ko ari kugenda atanga amakuru ku muganga, amubwira uko yafashwe n'uko yiyumva kugira ngo umuganga akusanye ibimenyetso amenye ikibazo umurwayi afite, bityo amuhe imiti igendanye n'ibimenyetso yamuhaye.

Abajyanama b'ubuzima, ni bamwe mu bashyizweho kugira ngo batange serivisi z'ubuzima, mu buryo bworoshye bitewe nuko baba begereye abaturage, ubona ko bari imbere y'inzu yagenewe gutangirwamo serivisi zo kubyaza, ubona ko bari kumwe n'inzego z'umutekano, n'abandi bayobozi batandukanye.

Abaganga ubona ko bambaye imyenda y'akazi bari gukora ubushakashatsi ku miti igiye itandukanye, ubona ko bari mu nzu yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi, bambaye uturindantoki n'udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda ingaruka bashobora guterwa no guhumeka umwuka utari mwiza.

Ikigo kinini kandi gisa neza ubona ko kigizwe n'ubusitani n'inyubako nziza zikeye, biragaragara ko ari mu gihe cy'umugoroba ukurikije uko bacanye amatara.

Ubona ko ari mu ishuri, aho umwana ari gusobanurirwa ubwoko bw'amenyo abifashijwemo n'umurezi, ubona ko hari abandi babyeyi bahagaze imbere.

Abarwayi ubona baba bari mu cyumba cyo kwa muganga, barwaye cyane, ubona ko bacometse ku mashini zabugenewe mu gufasha abarwayi kubona umwuka mwiza kandi uhagije.

Ibitaro bya Butaro biherereye mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru, ubona ko hari inzobere zitandukanye ziganjemo abirabura, abazungu basuye ibyo bitaro.

Umukobwa ubona ko ari mu cyumba wambaye amaherena, ubona ko imbere ye hari mudasobwa ari kuyikoresha, bigaragara ko ari mu cyumba gikorerwamo isuzuma ku barwayi bafite indwara zitandukanye.

Igipangu ubona ko gisa neza cyane, gifite ubusitani bunini kandi bwiza biragaragara ko ari igihe cy'amanywa, izuba ryavuye. Ubona ko ari inzu ndetse ikigo kirimo amatara hirya no hino.

Abaturage ubona ko bicaye mu cyumba kinini cyane birimo intebe, ubona ko bategereje guhabwa service n'abaganga.

Inyubako nini cyane, ubona ko yagenewe gutangirwamo gahunda z'ubuvuzi, ubona ko ari urujya n'uruza rw'abanyeshuri, baje bayigana, baje guhabwa ubujyanama ku bigendanye n'ubuzima.

Icyumba ubonako kirimo ibitanda n'amarido gishashe neza ubona ko hari n'imashini zabugenewe mu gusuzuma abarwayi, igihe umuganga aje kureba uko uburwayi bwabo buri kugenda bugabanuka.

Uruzitiro ubona ko imbere harimo ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibikoresho byabugenewe mu gufasha abana kuba bakwidagadura, bikabafasha kuruhuka neza mu mutwe no gutekereza neza.

Icyumba ubona ko kirimo imashini yabugenewe yifashishwa n'umuganga igihe agiye gupima umurwayi ikibazo afite mu ngingo z'imbere, aryama kuri iki gitanda ubundi agashyirwa mu mashini ikerekana uko ingingo ze z'imbere zangiritse.

Icyumba kinini kandi kiza, giteguye neza ubona ko kigizwe n'ibitanda n'ameza, byose bifite isuku.

Ikigo gitangirwamo gahunda z'ubuvuzi ubona ko gikeye kandi gifite parikingi y'imodoka nini cyane, imbere yaho ubona ko hari abaturage bagiye batandukanye.

Abagabo babiri ubona ko umwe ari umujyanama w'ubuzima, undi ari umurwayi waje kwisuzumisha indwara y'umuvuduko w'amaraso ku mujyanama w'ubuzima.

Umurwayi ubona ko arwariye kwa muganga ari mu cyumba cy'abarwayi, ubona ko acometseho imashini ziri gupima gutera kwe k'umutima ndetse iruhande rwe hari umuganga uri gukurikirana ubuzima bwe.

Icyumba byiza ubona ko giteguye nkaho ari mu ruganiriro, harimo indabyo, ameza, intebe, ubona ko ibintu byose bikeye kandi bifite isuku.

Inyubako isa neza cyane ubona ko ifite ubusitani bwiza kandi bunini, ubona ko ari inzu ikiri nshyashya cyane, yagenewe gahunda z'ubuzima.

Ibyumba ubona ko bisa neza cyane, byagenewe ibikorwa ngororamubiri, birimo ibyumba bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, hagendewe ku bwoko bwa siporo umuntu akunda gukora.

Umwana ukiri muto ubona ko ari gusuzumwa n'umuganga yifashishije imashini yabugenewe ku gutera k'umutima mu rwego rwo kwegeranya ibimenyetso by'iyi ndwara kugira ngo ahabwe imiti igendanye n'uburwayi afite.

Umuganga ubona ko ari mu cyumba arimo kugenda asohora impapuro zigaragaza ibizamini by'umurwayi, icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye intebe, utubati, mudasobwa ndetse na telefone.

Bimwe mu bikoresho byabugenewe byifashishwa mu kwita ku barwayi, cyane cyane igihe umurwayi afite ikibazo cyo guhumeka bigoranye. Bifashisha bimwe muri ibi bikoresho mu gutanga umwuka mwiza duhumeka.

Kimwe mu byumba byagenewe gutangirwamo gahunda z'ubuvuzi ku murwayi zigizwe n'igitanda umuganga asuzumiraho umurwayi, ndetse n'intebe umurwayi ashobora kwicaraho mu gihe bitarasaba ko bamusuzuma aryamye.

Icyumba cyiza gisa neza cyane, ubona ko kirimo imiryango igiye itandukanye, yose ikorerwamo n'abaganga batanga ubuvuzi ku ndwara zigiye zitandukanye.

Abaturage batandukanye ubona ko bagiye bicara ku rubaraza, bari mu kigo kinini cyane, ubona ko baje gushaka serivisi z'ubuzima, bategereje kwitabwaho n'abaganga.

Icumba kiza ubona ko giteguye neza hagiye hateguye indabo kuri buri nguni, ndetse ubona ko hari n'icyuma cyabugenewe mu gutanga umuyaga mu rwego rwo kwirinda ubushyuhe.

Icyumba kinini cyane ubona ko kirimo utubati twinshi tugiye dutandukanye, ubona ko ari utubati tugiye tubitsemo imiti mu rwego rwo gusigasira ubuziranenge bw'imiti izahabwa abarwayi.

Icyumba cyiza kinini kandi giteguye, ubona ko kirimo bimwe mu bikoresho byagenewe guhabwa abantu bafite indwara yo kutabona neza, yiganjemo amarineti yabugenewe ndetse n'ibindi.

Abaturage bateraniye mu cyumba rusange cy'inama higanjemo urubyiruko, ababyeyi ubona ko bari kuganiriza kuri bumwe mu buryo bukwiye gukoreshwa kugira ngo birinde indwara z'ibyorezo.

Icyumba cyiza kandi kinini, ubona ko gifite isuku rwose cyagenewe kubikwamo amaraso hagendewe ku bwoko bwa buri maraso mu rwego rwo kwirinda kuvanga amaraso mu gihe bagiye kuyatera umurwayi. Tugira ubwoko bwa A, ubwa B n'ubwoko bwa O.

Umurwayi ubona ko aryamye ku gitanda, ku ruhande hari umubyeyi we, ndetse n'umuganga uri kugerageza kumusuzuma kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Ikigo Nderabuzima cya Nyarurenzi, ubona ko ari ikigo cyubatse neza cyane, gitangirwamo gahunda z'ubuvuzi, ubona ko hari abaturage bakigannye bagiye gushaka ubuvuzi.

Ikigo kinini cyane, ubona ko kirimo amazu menshi agiye ageretse, ubona ko gifite ubusitani bunini kandi bukeye, ubona ko hari idarapo ndetse ifite na parikingi nini.

Abaturage batandukanye ubona ko bicaye ku murongo bategereje ko baganira n'umuganga, mu rwego rwo gushakira ibisubizo indwara zabo ndetse no guhabwa imiti hagendewe ku bizamini baba bafashwe n'umuganga.

Inyubako y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge ubona ko ari inyubako nini kandi iteye, ifite ubusitani bwiza kandi bunini , inyubako ifite ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse n'inzobere z'abaganga.

Abaturage ubona ko bari guhabwa urukingo, ubona ko batonze umurongo, ubona ko imbere hari umugabo wicaye mu kagare uri kwitabwaho ahabwa ubuvuzi.

Icyumba kinini ubona ko cyahuriyemo n'abantu benshi batandukanye biganjemo urubyiruko, abakuze, ubona ko bari mu inama imbere yabo bari kugezwaho n'abayobozi, ndetse hari n'umuntu umo kugenda afata amashusho yibiri gukorerwamo.

Imwe mu nzu ikorerwamo gahunda zo kugurisha imiti ku barwayi, bizwi nk'inzu z'abikorera ku giti cyabo batanga gahunda z'ubuvuzi, irimo imiti igiye itandukanye, ishobora gufasha umurwayi igihe agaragaje bimwe mu bimenyetso by'indwara.

Ibitaro by'akarere ka Rwamagana, ubona ko hafi y'ibyo bitaro hahagaze inzobere z'abaganga biganjemo Abazungu, Abirabura, bose bafite inshingano zo kwita ku barwayi bagenda bagana ibi bitaro.

Ubona ko hateguye neza cyane, hari ibyumba by'ikoranabuhanga bigihe bitandukanye higanjemo; amatereviziyo, mudasobwa ndetse n'ibindi, ubona ko ari ahantu hazanwa umurwayi kugira ngo asuzumwe uburwayi afite.

Icyumba cyihariye kiba kiri mu nzu itangirwamo gahunda z'ubuvuzi, cyagenewe gukorerwamo gahunda yo kubaga abarwayi igihe bafite uburwayi, bikaba bisaba ko bagomba kubagwa kugira ngo bakire.

Icyumba kinini kiza ubona ko gisukuye, kiganjemo ibikoresho byabugenewe mu kwakira abarwayi, twavuga nk'ibitanda, imashini zabugenewe mu gupima gutera k'umutima n'ibindi.

Ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima cya Kigina, ubona ko aho binjirira hari umubyeyi uhetse umwana, ubona ko ari kugerageza kwita ku mwana we.

Ikigo nderabuzima ubona ko kiri mu ruzitiro rugizwe n'ubusitani bwiza kandi bunini cyane, gitangirwamo gahunda z'ubuvuzi ku barwayi bafite indwara zitandukanye.

Inzu ubona ko yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi ku miti ihabwa abaturage bagamije kugusuzuma ubuziranenge bw'imiti, kugira ngo hasigasirwe ubuzima bwiza bw'abarwayi.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ubona ko biri mu cyumba gisa neza cyane kirimo isaha, televiziyo, amashusho agiye atandukanye ubona ko ari ahantu hakeye.

Abarwayi barwariye mu bitaro, ubona ko bahawe icyumba cy'abarwayi, baryamye ku bitanda hejuru yabo ubona ko hari supaneti zifashishwa mu kurinda umubu utera Malariya.

Icyumba ubona ko gisa neza cyane, cyagenewe gukorerwamo gahunda z'ubuvuzi, ubona ko kirimo bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwita ku barwayi, hibandwa kurwanya imfu ziterwa n'indwara zigiye zitandukanye.

Imwe mu nyubako zitangirwamo gahunda y'ubuvuzi z'abantu bikorera ku giti cyabo, usangamo imiti itandukanye ndetse n'inzobere z'abaganga izigufasha gufata ibizamini, bityo bakaguha imiti igendanye n'uburwayi ufite.

Icyumba gisa neza ubona ko kirimo ibikoresho byiza bigezweho, birimo intebe zishobora gukoreshwa nk'ibitanda igihe muganga ari kwita ku murwayi, asuzuma uburwayi bwe, ndetse n'utubati tugiye tubamo bimwe mu bikoresho muganga yifashisha, igihe agiye gusuzuma umurwayi.

Inyubako nini cyane ubona ko itangirwamo gahunda z'ubuvuzi, ubona ko irindiwe umutekano rwose, hari uwushinzwe umutekano ku marembo, ubona ko ari gukingurira imodoka iri gusohoka.

Icyumba kinini, ubona ko gikeye, gisukuye, irimo ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, byiganjemo amagare banyonga, ibifasha abantu kwirukanka, ndetse n'ibifasha abantu gukomeza imikaya y'umubiri wabo.

Umuganga ubona ko ari mu cyumba, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, wambaye uturindantoki, ubona ko ari gukora mu gikoresho kijugunywamo imyanda, yambaye neza mu rwego rwo kwirinda impanuka, ishobora guterwa no gukora isuku.

Ibyuma ubona ko byagenewe mu gusuzuma zimwe mu ndwara ziba zitagaragarira inyuma ku mubiri w'umurwayi, byifashishwa kugira ngo bigaragaze uko ingingo z'imbere mu mubiri w'umuntu, zihagaze.

Umusaza ubona ko yishimye, uri kuganirizwa n'umuganga ubona ko afite igikoresho kifashishwa mu gupima indwara y'umuvuduko w'amaraso kugira ngo hitabwe ku buzima bw'umurwayi.

Icyumba ubona ko cyagenewe gukorerwamo gahunda yo kubaga abarwayi. Ubona ko hari umurwayi uryamye ku gitanda, abandi baganga bari gutegura imashini zabugenewe n'ibikoresho byabugenewe mu kubaga umurwayi.

Umugabo ubona ko yambaye imyenda yabugenewe mu gukora isuku wambaye uturindantoki inkweto zifunze n'imyenda imurinda kuba yahura n'ibimwangiza bikaba byatera impanuka mu kazi ke.

Icyumba ubona ko cyagenewe gukorerwamo siporo ngororamubiri, harimo imashini zabugenewe zifasha umuntu gukora siporo ngororamubiri, mu rwego rwo kubaka umubiri ufite imbaraga, ndetse umuntu yirinda kurwara bitewe na siporo zidahagije mu mubiri, ingingo ze zikaba zamugara.

Umusore ubona ko yari ari mu kibuga, ariko akaba agize ikibazo cy'imvune, ubona ko hari abakoranabushake ba Croix Rouge bamuteruye mu maboko, bagiye kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Umuntu ubona ko yicaye afite ikibazo cyo kubabara mu nkokora ye, ubona ko yahafashe, bigaragara ko akwiye kugana inzego z'ubuvuzi, zikaba zamufasha kwita ku burwayi bwe agakira.

Hari imashini zabugenewe mu kuvura indwara z'inkiko ndetse n'indwara zibasira imitsi y'umuntu udakora siporo izo mashini zishobora kuba zafasha kongera kugira ingingo zikora neza.

Umugabo ubona ko ari muri siporo ngororamubiri ariko ufite ibibazo mu ivi, ni ngombwa ko igihe cyose wumva ufite uburwayi ubwo aribwo bwose yaba ubw'ingingo ugana inzego z'ubuzima zikaba zagufasha kubonera umuti ubwo burwayi.

Umugabo ubona ko ari mu cyumba cyuzuyemo ibikoresho bitandukanye, higanjemo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gupima zimwe mu ndwara.

Umugabo ubona ko ari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo siporo ngororamubiri, ubona ko ateruye ibyuma biremereye cyane bimufasha gukomeza amaboko ye ndetse akagira imikaya ikomeye n'imbaraga.

Umukobwa mbona ko yicaye hasi yasobekeranyiyije amaguru ye rwose uri muri siporo ngororamubiri, imbere hari ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo ndetse yateretse n'imashini.

Umugore ubona ko afite muri siporo ngororamubiri arambuye akaguru ke kamwe akandi aragahina bityo agafatisha amaboko ye abiri munsi y'ikierenge mu rwego rwo kunanura ingigo ze neza.

Umukobwa ndabona ko yambaye imyenda ya siporo, biragaragara ko ari igihe cy'umugoroba, ubona ko ari kunywa amazi, ni byiza gukora siporo, ariko tukibuka kunywa amazi menshi, kuko umubiri nawo, uba watakaje andi mazi.

Umukobwa ubona ko akiri muto rwose wambaye imyenda ya siporo, ubona ko ari gukora siporo ngororamubiri, azamuye akaguru akagafatisha amaboko ye, bigaragara ko agororotse rwose.

Umugabo ubona ko yambaye agapira kamufashe wambaye ekuteri ndetse uri kunywa amazi ubona ko ari umuntu uri muri siporo ngororamubiri mu rwego rwo kugira ubudahangarwa bw'umubiri we.

Umukinnyi ubona ko agiriye impanuka mu kibuga ari gukina, ubona ko inzego z'ubuvuzi ziri kugerageza kumwitaho, mu rwego rwo gukurikirana ikibazo agize k'imvune bamufasha kubona ubutabazi bw'ibanze.

Umukobwa ubona ko ahagaze ahantu ku gasozi uri muri siporo ngororamubiri washyize akaboko ke inyuma, bigaragara ko ari kugenda agorora ingingo ze zose z'umubiri.

Agasanduku ubona ko karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, harimo umukasi ushobora gukoreshwa igihe umuntu ari kubagwa igikomere, ibipfuko bishobora gupfukwa ku gikomere, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze.

Umurwayi ubona ko aryamye hasi, hari umuganga uri kugerageza ku mukoresha siporo ngororamubiri, amunanura mu rwego rwo gutuma ingingo ze zikora neza cyane.

Ibikapu bibiri bitukura ubona ko hagati harimo umuti wifashishwa mu kuvura ububabare igihe umuntu afite ikibazo k'ingingo, ubona ko inyuma hari abakinnyi bigaragara ko birimo ibikoresho byifashishwa mu guha ubutabazi bw'ibanze igihe umukinnyi agiriye ikibazo k'imvune mu kibuga.

Imyitozo ushobora gukora kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza, mu rwego rwo kongera imibereho myiza ishingiye ku buzima bwo mu mutwe. Hari kunanura ingingo, kuticara umwanya muto cyane, no gukora mu bushakashatsi kuri siporo zigiye zitandukanye, zagufasha kwirinda siteresi.

Umukobwa ubona ko yambaye ekuteri arikumva indirimbo anakora siporo ndetse ubona ko ari kunywa amazi mu rwego rwo kurinda umubiri we kumagara.

Icyumba gikeye kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo amateleviziyo ndetse n'izindi mashini, ubona ko hari umuntu uri gutambutsa ubutumwa kuri televiziyo.

Bimwe mu byifashishwa mu kuvura umurwayi byiganjemo uturindantoki, ibipfuko n'indi miti yose igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura uburibwe harimo ibipfuko n'ibindi.

Umurwayi ubona ko afite ikibazo k'ingingo ari gufashwa na muganga gukora siporo ngororangingo amufasha kugorora ingingo ze mu rwego rwo gusigasira ingingo ze ndetse no kongera gutuma ingingo ze zikora neza.

Umuntu uri mu gikorwa cya siporo ngororamubiri, ubona ko ari mu kibuga cyahariwe gukorerwamo siporo rusange, ubona ko agize ikibazo cy'imvune, akaba ari kwitabwaho n'umukozi ushinzwe kwita ku bagize ibibazo by'imvune. Ari kumusigira pomade aho ababara.

Bimwe mu binini ndetse n'inshinge bikunze kwifashishwa mu kuvura indwara, ariko hari ibindi binini ndetse n'inshinge byifashishwa nk'ibiyobyabwenge bitewe n'uko biteguye.

Umugabo ubona ko yambaye isengeri, ari muri siporo ngororamubiri, ubona ko yazamuye akaboko, afite icupa ririmo amazi, ni ingenzi cyane kunywa amazi meza kandi asukuye igihe umuntu ari gukora siporo.

Umuryango ubona ko bagiye gusuzumisha umwana wabo uburwayi bwo mu kanwa, ubona ko umuganga ari kwifashisha kimwe mu cyuma cyabugenewe mu gusuzuma uko amenyo y'umwana yangiritse.

Umugabo ubona ko afite ikibazo cy'ubumuga mu ivi rye, ubona ko ari kubabara bikabije, ukeneye kwitabwaho ndetse akaba yahabwa ubufasha bw'ubuvuzi kugira ngo abashe kongera kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ubona ko akiri muto ugororotse rwose, uri gukora siporo ngororamubiri wicaye neza, warambuye umubiri we kubera ko siporo ari ingenzi cyane kandi akaba n'ubuzima ku muntu wese ukora siporo.

Umuntu ubona ko ari mu cyumba ari ugusenga, ubona ko yapfukamye akajyana amaboko ye imbere, bigaragara ko ari umwe mu bayisilamu.

Umugore ubona ko yicaye mu cyumba atuje, warambuye akaguru ke agafata amaboko ye akayakoza munsi y'ikirenge cy'akaguru yarambuye ukundi akaguhina, bigaragara ko ari gukora siporo ngororamubiri, imbere ye hari icupa ririmo amazi.

Umugabo abona ko ari muri siporo ngororamubiri, ubona ko yazamuye akaguru ke kagashyira hejuru y'icyuma mu rwego rwo kunanura ingingo ze, agafata akaboko ke akagakoza ku kaguru yarambuye.

Umugabo ubona ko ari kunywa amazi mu rwego rwo gukomeza kugira ubudahangarwa bw'umubiri, wirinda ko umubiri we ushobora kumagara bitewe no gutakaza amazi menshi mu mubiri.

Umugabo ubona ko ari muri siporo ngororamubiri uri mu cyumba ubona ko yapfukamye, ukundi kuguru kukaba gushinze we afashe ibiganza bye akabikoza ku matako ye mu rwego rwo kugorora ingingo ze zose z'umubiri.

Umukobwa ubona ko yicaye mu cyumba, wicaye hasi ari gukora siporo ngororamubiri, warambuye akaguru ke neza, mu rwego rwo gukomeza gusigasira ubuzima bwe, agorora ingingo, bityo bikamufasha guhorana imbaraga, ndetse n'umubiri ufite ubudahangarwa.

Ikirahuri ubona ko kiri gusukwamo amazi asa neza, ubona ko ayo mazi yateguwe, afite isuku bityo bikwiye ko dukwiye kunywa amazi asukuye hifashishijwe imiti yabugenewe mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa no gukoresha amazi adasukuye.

Imashini nini cyane ubona ko iri kugaragaza ishusho y'imikorere y'ubwonko bagaragaza uko ubwonko bwagiye bwangirika, hitabwa ku kureba igikwiye gukorwa kugira ngo basane ubwonko bw'umurwayi.

Icyumba kirimo ibikoresho byinihi by'ikoranabuhanga irimo n'igitanda ubona ko ari icyumba cyateguriwe gukorerwamo gahunda yo kubaga umurwayi.

Imwe mu miti yifashishwa mu kugabanya ububabare igihe umuntu ahuye n'imvune yari ari gukora siporo, yiganjemo ibipfuko, pomade n'inshinge zigabanya uburibwe.

Umugabo ubona ko ari mu cyumba cyabugenewe gukorerwamo siporo ngororamubiri, ubona ko hasashe itapi isa nk'icyatsi, inyuma ye hari ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora siporo.

Umugabo ubona ko hejuru yambaye ubusa, wambaye isaha ndetse n'ikabutura n'inkweto byabugenewe mu gukora siporo, ubona ko ari mu cyumba wenyine, warambuye akaguru ke n'akaboko, bigaragara ko ari mu gikorwa cya siporo.

Siporo ni ubuzima. Ubona ko umugabo yicaye mu nzu zabugenewe gukorerwamo siporo ngororamubiri. Iruhande rwe hari umugore uri kumufasha kumugira inama yuko akwiye gukora siporo mu rwego rwo kugorora ingingo ze, bityo bigafasha umubiri we guhorana ubudahangarwa bw'ingingo.

Inzu nini ubona ko irimo utubati tugiye tubika ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ubona ko byiganjemo imiti ikomoka ku bimera bifatwa bigatunganywa, bikaba byahabwa umurwayi mu gihe afite indwara.

Umugabo ubona ko yarari mu masiganwa akaba agize impanuka ubona ko abatabazi b'ibanze bari kugerageza kuba bamufasha bakamusuzuma kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze niba yangiritse babashe kuba bamuha ubutabazi bw'ibanze.

Umuhungu ubona ko yari ari mu mikino y'amasiganwa, akaba agize ibibazo, ariguhabwa ubutabazi bw'ibanze n'abakorerabushake baba bari hafi yahari gukorerwa imikino igiye itandukanye kugira ngo baze gufasha umuntu wese uri buze kugira ibibazo.

Umugabo rwose ubona ko ari umusore ufite imikaya, uri guterura ibyuma biremereye wareze agatuza ke, iruhande rwe hahagaze umugabo uri kumugira inama y'uburyo ki akwiye kujya akora siporo mu rwego rwo kwirinda kunaniza umubiri we.

Umukobwa ubona ko agororotse rwose ukora siporo ngororamubiri, ubona ko yicaye yasobekeranyije amaguru ye arimo kwigorora, imbere ye hari icupa ry'amazi, ubona ko ari umuntu ukora siporo umunsi ku munsi.

Umurwayi ufite ibibazo cy'imvune byo mu kaguru ubona ko ari kwitabwaho, ari gupfukwa ndetse no guhabwa imiti imufasha gusigasira ingingo ndetse no kugabanya uburibwe.

Umugabo abona ko yicaye ku ntebe iruhande rwe hari umupira ndetse ari kunywa amazi, hasi hakaba hari igikapu ubona ko ari kumwe n'umugore umuri iruhande uhagaze uri kwinanura, bigaragara ko ari abantu baje muri siporo ngororamubiri.

Umugabo ubona ko ari gukora siporo zo kwiruka, ubona ko bari kugaragaza ko afite ikibazo cy'imitsi. Hari imashini zabugenewe mu kuvura indwara z'imiti, dusanga hirya no hino mu nzu zikorerwamo siporo n'ahandi hose hatangirwa gahunda z'ubuvuzi.

Umugabo ubona ko ari muri siporo ngororamubiri, wapfukamye, ndetse warambuye amaguru ye, mu rwego rwo kanura ingingo ze zose z'umubiri.

Mu buvuzi bw'u Rwanda hashyizweho utudege duto dushinzwe gutwara amaraso tuyavana ahantu tuyajyana ahandi mu rwego rwo kwihutisha serivisi z'ubuzima.

Umugabo ubona ko yicaye, afite ikibazo cyo kuribwa mu ngingo ahaherereye ku ivi, ubona ko yafatishijeho ibiganza bye bibiri ku rutoki rwe, yambaye impeta bigaragara ko ari umugabo wasezeranye.

Icyumba kirimo imashini ubona ko ari umurwayi ugiye kunyuzwa mu cyuma ufite ikibazo cyo kubagwa ndetse no gucishwa mu cyuma kugira ngo hagaragazwe uko ingingo ze zangiritse.

Umugore ubona yicaye mu cyumba gisa neza, wambaye imyenda ya siporo bigaragara ko ari gukora siporo ngororamubiri, mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwe bwiza bushingiye ku gukora siporo.

Ibinini bikorwa mu bimera bitandukanye ndetse n'ihinge zitandukanye zishobora gukoreshwa nk'ibiyobyabwenge aho kugira ngo bikoreshwe n'eta.

Umugabo wumva ko yicaye waramubye akaguru, akandi ubona ko afite ikibazo cyo kubabara mu ngingo akeneye kwitabwaho n'abaganga bakaba bamufasha gukemura ibibazo afite byo mu ngingo.

Umugabo ntubona ko yambaye umukufi mu ijosi ndetse n'agapira k'ubururu, ubona ko ahagaze rwose afite icupa mu ntoki ze ari kunywa amazi, ni byiza kunywa amazi menshi kandi ahagije kuko bifasha umubiri kutumagara.

Umukobwa ubona ko afite igikomere ku ivi, ari kugerageza gushyiraho neza igipfuku mu rwego rwo kwirinda imyanda ishobora kwinjira mu gikomere, ikaba yamutera kanseri.

Umugabo ubona ko yambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara wambaye inkweto zabugenewe mu gukora siporo ubona ko yazamuye akaguru ke akagashyira hejuru y'uruzitiro ari muri siporo ngororamubiri warambuye n'amaboko ye.

Umukobwa wambaye ekuteri ubona ko ari muri siporo wambaye isengeri ndetse ubona ko ari kunywa amazi, bigaragara ko ari kugerageza gutuma umubiri we utananirwa cyangwa se ngo wumagare, bitewe no kubura amazi menshi mu gihe ari gutakaza ibyunzwe.

mu bakiriririmo' amazi ubona ko ari kuyasuka mu kirahuri bigaragara ko ari amazi asukuye mu rwego rwo kwirinda kunywa amazi adasukuye kugira ngo bimurinde zimwe indwara zi biterwa n'umwanda

Siporo ni ubuzima, siporo ni ingenzi ku muntu ukora siporo, bimurinda kurwaragurika indwara ziganjemo umubyibuho ukabije, indwara zibasira ubuhumekero, ubona ko hari umukobwa uri muri siporo rwose ngororamubiri wicaye ahantu atuje, warambuye amabokoye, ari kugorora umubiri we.

Umurwayi ubona ko ari gukorerwa gahunda y'insimburangingo z'akaguru, ubona ko hari abantu benshi baje kureba icyo gikorwa cyo gusimburirwa ingingo.

Icyumba ubona ko ari cyiza gifite ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara z'amenyo harimo intebe, n'izindi mashini.

Umukobwa ubona ko akora siporo ngoramubiri cyane rwose, ubona ko akaguru kamwe ke gapfukame akandi yakarambuye, akazamura amaboko ye hejuru mu rwego rwo kunanura ingingo ze zose z'umubiri.

Imbaga nyamwinshi y'abantu ubona ko bateraniye ahantu habereye imyidagaduro rusange, ubona ko hari abana bamaze gukina Basket, ubona ko bari kubyina bashimishije abaje kwitabira icyo gikorwa rusange cy'imyidagaduro.

Umugabo ubona ko ari muri siporo ngororamubiri, umubiri we ukomeye rwose ubona ko inyuma ye hari ubwoko bw'ibiribwa bitandukanye byiganjemo imbuto, imboga bigaragara ko umuntu ufata imboga n'imbuto agakora na siporo, agira ubuzima bwiza ndetse n'umubiri ufite imbaraga.

Umugabo ubona ko ari mu nzu yahariwe ibikorwa bya siporo ngororamubiri, ubona ko aryamye hasi, afite umugozi yaziritse ku kaguru ke ari gukurura, mu rwego rwo kurambura ingingo.

Abantu ubabona ko bari gukora imikino igiye itandukanye, yiganjemo iy'amaboko, iy'amaguru, mu rwego rwo gukora siporo ngororamubiri, bibafasha kuruhura mu mutwe ndetse no gutekereza neza, bikaba bibarinda n'indwara nyinshi zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abana benshi ubona ko bahuriye mu mikino igiye itandukanye yiganjemo iy'amaboko, kwiruka ndetse n'ibindi byose mu rwego rwo kuruhuka ndetse no kwishimisha.

Igikakarubamba ikimera gikorwamo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara ndetse kikaba gikorwamo n'amavuta.

Ikimera ubona ko gikura kikazana indabyo zifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, iyo zitunganyijwe zikaba zabyara umuti uvura indwara.

Ikimera k'igikakarubamba, iyo gitunganyijwe neza kikavangwa n'imbuto zigiye zitandukanye bishobora gukorwamo amavuta yisigwa ku mubiri mu rwego rwo kurwanya indwara zibasira uruhu ndetse no gutuma uruhu rw'umuntu rusa neza.

Ipapayi imwe yigice indi yose ubona ko ari umuntu ugiye kuyifungura mu rwego rwo kwita ku mirire yuzuye iganjemo itera imbaraga, irinda indwara, iyubaka umubiri ndetse n'imbuto mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abaturage ndetse n'inzego z'ubuzima, n'iy'abakangurambaga ku by'ubuhinzi, ubona ko bateraniye mu murima uteguye neza cyane, uhinzemo igikakarubamba kimwe mu kimera kifashishwa mu gukoramo ibintu bitandukanye byiganjemo, amavuta ahanini yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu n'ibindi.

Ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye byose bishobora gukorwamo amavuta, imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu gutuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umwe... yabugenewe mu kuvura zimwe mu ndwara zo mu kanwa, yifashishwa mu gusukura amenyo kugira ngo hirindwe kwangirika kw'amenyo.

Forever royal jelly, ni amwe mu mavuta akorwa mu bimera bigiye bitandukanye, afite ubushobozi bwo kuvura indwara yiganjemo iz'uruhu n'izindi.

Shampo isabune ikorwa mu bimera bigiye bitandukanye, ifite ubushobozi bwo kuba yavura zimwe mu ndwara zibasira uruhu ndetse bikaba byafasha umuntu kugirira isuku uruhu rwe, bityo bikamurinda indwara zibasira uruhu.

Imiti izwi mu bwoko bw'ibinini dukunze gusanga kwa muganga ubona ko iri gusa n'icyatsi, bigaragara ko ari imwe mu miti ikorwa mu bimera bigiye bitandukanye.

Urusobe rw'ibinyampeke higanjemo ibinyamizi, ibyatsi ubona ko byakusanyirijwe hamwe. Hari igikoresho cyabugenewe mu gusekurirwamo imiti kugira ngo itunganywe yifashishwe mu kuvura indwara zitandukanye.

Igikakarubamba mera ikorwamo amavuta agiye atandukanye yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye ahanini zibasiira uruhu.

Umugore ubona ko acuruza imiti igiye itandukanye iva ku bimera izwi nk'imiti gakondo, ubona ko hari abakiriya baje gushaka iyo miti kugira ngo bayifashishe mu kuvura indwara.

Itumba ririmo ibicuruzwa bipanze neza higanjemo imiti ikomoka ku bimera bigiye bitandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi ziganjemo izo mu nda, umutwe ukabije ndetse n'izindi.

Indabo zigiye zitandukanye ubona ko zihinze ahantu hateguye neza, zikorwamo imwe mu miti yifashishwa mu kuba yavura indwara zigiye zitandukanye, ziganjemo kubabara umutwe cyane, kuribwa mu nda ndetse n'izindi ndwara.

Amavuta akomoka ku bimera afite ubushobozi bwo kuvura indwara z'uruhu, ayo mavuta akomoka ku kimera kizwi nk'igikakarubamba, gitunganywa neza kikaba cyakifashishwa umuntu yisiga kugira ngo uruhu rwe rugumize gusa neza.

Agacupa, ubona ko, gafunze neza cyane, karimo imiti, y'ibinini, ikomoka, ku ibimera, bigihe bitandukanye, bitunganywa neza, bikavanwamo, imiti yifashishwa, mu kuvura, uburwayi.

Ibimera ubona ko byakusanyirijwe ahantu hamwe hafite isuku, ubona ko bari kugenda babisekura bakabikuramo ifu ikorwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Icupa Ubona ko rifunze neza cyane, irimo amavuta akomoka ku ikawa, afite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi.

Umurima ubona ko uhinzemo imiravumba imera ikunze gukorwamo imiti giye itandukanye dusanga hirya no hino mu mavuriro haba ahatanga ubuvuzi gakondo ndetse n'ayandi.

Inzu ubona ko icururizwamo imiti igiye itandukanye, ifunze mu macupa, ubona ko ari imiti ikomoka ku rusobe rw'ibimera izwi nk'imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye.

Umurima ubona ko uhinzemo urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye twavugamo nk'inzuzi, umuravumba n'urundi rusobe rw'ibimera ubona ko bimeze neza imvura yabigezeho bishishe.

Bimwe mu bimera dusanga hirya no hino twavuga nk'umuravumba bifatwa bigasekurwa bigakorwamo ifu, nyuma bigatunganywamo ibinini dusanga hirya no hino mu mavuriro bidufasha kuvura indwara itandukanye bivuze ko umuravumba ari ikimera gifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye.

Akabuni gasa neza kari mw'ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo atukura ubona ko gafunzemo amavuta akomoka ku bimera bifite uruhare mu kuvura indwara zitandukanye ahanini zibasira uruhu.

Ibimera bigiye bitandukanye, higanjemo indabo, ibyatsi, urusobe rw'ibinyampeke, byashyizwe hamwe, ubona ko hari igikoresho cyifashishwa mu gusekura bimwe mu bimera, kugira ngo bikorwemo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amwe mu mavuta akorwa mu gikakarubamba, ibicuruzwa byinshi bitandukanye higanjemo imiti yose ikorwa mu gikakarubamba, bishobora kuba byafasha umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bw'uruhu, kuba uruhu rwe rwakongera rukamera neza ndetse rugasa neza.

Ameza ariho ibintu bigiye bitandukanye, byiganjemo imbuto zirimo inanasi, imineke ndetse n'amakarito afunze neza cyane n'indabo ku ruhande.

Ibimera bigiye bitandukanye ubona ko bikorwamo ibinini n'indi miti yose yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye dusanga hirya no hino mu mavuriro.

Ibikorwa mu gikarubamba bifashishije n'izindi mbuto bitunganywa, bikaba byafasha umuntu ufite indwara y'uruhu nko gutemuka, ibiheri, kuba byafasha uruhu rwe gukira.

Ahantu hateguye neza ubona ko hari imbuto zigiye zitandukanye zakozwemo umutobe w'amaronji, ku ruhande hari tangawizi, bigaragara ko bishobora kwifashishwa nk'umuti ushobora kuba wavura indwara ahanini nko kubabara mu nda bikabije ndetse n'izindi.

Imbogarwatsi zitandukanye ziri mu bwoko bw'amashu, ubona ko ari zimwe mu mboga zifite intungamubiri zishobora gufasha umubiri w'umuntu kugira ubudahangarwa bwo kutarwaragurika.

Hari imiti myinshi itandukanye y'ubwoko butandukanye ikorwa mu bimera dusanga hirya no hino, byiganjemo imiravumba n'ibindi bimera, twavuga nka tangawizi byose bitunganywa bigakorwamo imiti tugenda dusanga hirya no hino mu mavuriro.

Amwe mu mavuta akorwa mu gikakarubamba, afite ubushobozi bwo kuba yavura indwara z'uruhu ndetse no gutuma umubiri w'umuntu usa neza cyane.

Imwe mu bimera byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara ziganjemo: kubabara mu nda bikabije, kujya mu mihango idakama n'izindi.

Ibihingwa by'ibinyabijumba cyangwa se ibinyamizi, byiganjemo ibitunguru n'ibindi, ubona ko byateranyirijwe ahantu hamwe, bigiye gutunganywamo imiti gakondo yifashishwa n'abavuzi gakondo.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye. Byiganjemo umuravumba, igikakarubamba, indabo, ndetse n'amatunda, ubona ko ari ibimera, bisa neza cyane.

Ikimera ubona ko giteye mu butaka butunganijwe neza kizwi nk'umuravumba cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse kigakorwamo n'imiti dusanga hirya no hino mu mavuriro.

Isabune ikomoka ku gitakakarubamba kivanze na avoka, isabune nziza yifashishwa mu gukora isuku ku mubiri ndetse no kurwanya zibasira uruhu.

Umubyeyi ubona ko ari mu murima uhinzemo indabo, ubona ko ari kugenda asoroma indabo, agiye kwifashisha mu gutunganya imiti igiye itandukanye dusanga hirya no hino mu mavuriro acuruza imiti gakondo.

Ishyamba ryiza cyane, ubona ko rigizwe n'ibiti n'ibindi bimera bigiye bitandukanye, ubona ko ari ahantu hameze neza cyane hatuje.

Umuntu ubona ko afite agacupa mu biganza bye, karimo umuti ukomoka ku bimera, uzwi nka Lavenda, wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Umurima munini cyane, ubona ko uhinzemo umuravumba; ikimera gikorwamo imiti igiye itandukanye usanga hirya no hino mu mavuriro, yaba ayigenga, amavuriro gakondo, ndetse n'amavuriro ya Leta.

Amavuta akomoka ku gikakarubamba hamwe n'imbuto zigiye zitandukanye, afite ubudahangarwa bushobora kuba bwavura indwara zitandukanye z'uruhu.

Umuravumba ni ikimera kidasanzwe, gifite ubushobozi bwavura indwara nyinshi zitandukanye, gifatwa kigatunganywa, kigakorwamo imiti dusanga hirya no hino kwa muganga.

Imwe mu miti dusanga hirya no hino higanjemo imiti gakondo, ibinini byose bikorwa mu bimera biteye bitandukanye, twavuga umuravumba, igikakarubamba n'ibindi.

Umuganga ubona ko yicaye mu cyumba wenyine uri gukora isuzuma ku bizamini yahawe n'umurwayi, kugira ngo amenye uburwayi umurwayi we afite.

Ahantu hari ibimera bitandukanye biri ahagenewe kwita ku ngemwe zimwe zikiri ntoya, birindwa izuba bikuhirwa mu rwego rwo kubyitaho kugira ngo bikure neza.

Tangawizi ikinyampeke gikorwamo imiti ititandukanye yifashishwa mu kuvura zimwe mu ndwara ziganjemo inzoka zo mu nda, kubabara cyane bidashira ndetse n'izindi ndwara zose zibasira ikiremwa muntu.

Umurima munini cyane ubona ko ari ahantu hasa nko mu ishyamba ryiganjemo ibimera bigiye bitandukanye, byiganjemo imiravumba n'ibindi byose bishobora kwifashishwa mu gukora imiti gakondo igiye itandukanye.

Amwe mu mavuta yagenewe kwisigwa ku mubiri kugira ngo akumire zimwe mu ndwara z'uruhu ndetse no gutuma uruhu rw'umuntu rusa neza ndetse ruyaga, akorwa mu bimera bijye bitandukanye higanjemo igikakarubamba.

Amwe mu mavuta ndetse n'imiti bikorwa mu gikakarubamba, bigiye bifite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi ziganjemo izikunze kwibasirara uruhu rw'umuntu.

Ibyokurya byiganjemo ibitunguru, imbuto, amavuta ni bimwe umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ategure amafunguro agizwe n'indyo yuzuye, bityo bikaba byafasha umubiri w'umuntu kugira ubudahangarwa ndetse n'abasirikare bityo bikaba byamurinda kurwaragurika.